Ahantu hakorerwa inama ni byiza kuba hameze neza, hari isuku, hatatse, hari intebe nziza, hari ameza, hari mikoro, hari amazi abantu banywa, ndetse n'intebe abantu baje muri iyo nama bashobora kwicaraho.

Inama yitabiriwe n'abaturage benshi aho bateraniye ahantu hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abamama babiri umwe ari kuvuga imbwirwaruhame yambaye renete, undi yambaye umushanana afite telefone mu ntoki.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi, irimo umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame, wambaye amarinete n'ipantalo y'umukara n'ishati y'umweru, iyo nama yajemo umupolisi wa Leta y'u Rwanda.

lbyumba biberamo amanama bibi biteguwe neza bifite ameza, ndetse n'intebe nziza ,kandi izo nama ziba zirimo abantu batatu ,hari uhagarariye abandi ,hakaba umwanditsi, hamwe n'umujyanama ,abo bose iyo bahari inama igenda neza.

Inyubako nziza zifite ibyumba bigari ni ukuvuga amasare manini kandi arimo ibikoresho bihagije urugero nk'intebe nziza n'ameza. NI ahantu hashobora guhora abantu b'ingeri zitandukanye mu nama zabahuje kugira ngo abashe kugira ibintu bimwe bigezaho. Haba hakubiyemo abadaso, abapolisi ndetse n'abaturage basanzwe.

Mu bikorwa bijyanye n'umuco nyarwanda, urugero nk'ahantu habereye ibitaramo nyarwanda, ababyitabiriye baje gususurutsa abantu nk'abaje wenda kubabyinira, babyina bambaye imikenyero, bakambara n'amayugi kugira ngo babashe kubyini Abanyarwanda bishime, basanzwe bazi umuco nyarwanda.

Umuco nyarwanda ni kimwe mu bituma abantu bakomeza kugira ibyishimo ndetse n'imiryango yateranye igakomeza kunezerwa kuko nko mihango y'ubukwe, iyo hakurikijwe umuco w'ahantu runaka, iyo miryango yombi iba yishimye. Nanone kandi uwo muco niwo utuma abantu bakomeza kugira agaciro.

Amashanyarazi ni amwe mu bifasha abaturage gukomeza kugira ubuzima bwiza kuko aya mashanyarazi arabacanira mu nzu, bakayakoresha mu bikorwa bitandukanye, harimo gusudira, gucomeka amafirigo, amatereviziyo ndetse n'ibindi bikorwa rusange bibafasha kwiteza imbere.

Umukobwa wize gukora amashanyarazi, akaba abikora nk'akazi ke ka buri munsi kamuhesha amafaranga, ndetse n'abantu yesitariye bakabasha kuba ahantu hagaragara hari umucyo, bityo ariwe ndetse n'umuntu abikoreye bose bakungukirwa. We abikora nk'akazi ndetse n'abandi bakabikora kugira ngo bagire umumaro mu buzima bwa bwa buri munsi.

Inzu yubatse neza kandi nziza, igomba kuba i umuriro kandi uwo muro kujya ukoreshwe mu buryo bwiza budateje impanuka n'uko ugomba kuba ufite mubazi kugira ngo mu gihe washize, umuntu abasha kongera kugushyiramo undi, maze abashe kuwukoresha, ibintu bibyara inyungu.

Umuriro w'amashanyarazi ugira akamaro kanini cyane kuko utuma abantu bawukoresha bawubyaza umusaruro, nk'urugero nk'abasuderi bagasudira inzugi zo gukingisha amazu, amadirishya ndetse n'ibindi bifashishije uwo muriro w'amashanyarazi kugira ngo babashe kuwubyaza umusaruro.

Leta yubatse ibiraro binyuze hejuru y'amazi, bituma hirindwa impanuka zagatejwe n'ayo mazi wenda nko mu gihe imigezi yaba yuzuye imvura yaguye. Ibyo biraro biba bikomeye kuburyo hashbora gucaho n'ibinyabiziga n'abantu babitwaye kandi ntibagire ikibazo.

Leta y'u Rwanda igura uko ushoboye kose ngo ikomeze gukora ibikorwa remezo byiza bibereye abaturage kandi ibarinde impanuka harimo no gukora ibiraro byo mu kirere bituma abaturage bagira iyo bagiye batanyuze ahantu hashobora kubateza akaga kuko hashobora gutuma ubuzima bwabo buhangirikira.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye mu gikorwa remezo, bagamije kujya kwishimisha kubera ko ari uburenganzira bwabo kandi bikaba bituma abantu bakomeza kumererwa neza muburyo bw'imitekerereze kuko baruhutse mu mutwe bihagije, bigatuma babasha kuba basubira mu kazi kabo, bameze neza.

Imbaga yateraniye ahantu aho bari gukurikirana imbwirwaruhame y'uhagarariye ubugenzacyaha mu gihugu cy'u Rwanda, aho ababwira uburenganzira bwa muntu n'uburyo bwo kubona ubutabera.

Amagare agiye atandukanye ahuriramo abantu bifuza gutega imodoka bajya mu duce dutandukanye, abantu bahakorera akazi nko gucuruza imyenda, ingofero, inkweto n'ibindi bintu abantu baje gutega cyangwa se aho muri gare babonera ibyo bakeneye, kugira ngo urugendo rwabo rugende neza n'ubuzima bwabo bukomeze kumererwa neza.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe, bicaye ku ntebe imbere yabo hariho ameza abandi bicaye mu byatsi cyangwa se mu busitani kugira ngo babashe kumva inama zitangwa n'abashinzwe umutekano bo mu kagari k'iwabo cyangwa se imidugudu yabo.

Abasirikare hamwe n'abapolisi ni inzego zikuriye umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Bahora bagira inama abaturage yo gukomeza gucunga ibintu byabo ndetse no kurinda umutekano kugira ngo bakomeze kumva baguwe neza kandi bafite umutekano.

Umugabo uri gutanga inbwiruhame avuga ku buryo bagomba kwirindira umutekano, indabyo n'ibiti.

Umupolisi wa Leta y'u Rwanda ahagaze imbere y'abantu ababwira imbwirwaruhame igamije kubakangurira, kubafasha, kwicungira umutekano aho bari hose.

Umupolisi wa leta y'u Rwanda ari gutanga imbwirwaruhame, abwira abaturage ko bagomba gukomeza gucunga umutekano wabo kugira ngo batangirizwa n'impanuka.

Mu rwego rwo gukomeza kunga ubumwe kw'Abanyarwanda, ni byiza ko mu gihe cy'umuganda bateranira hamwe, yaba abashinzwe inzego z'umutekano, abapolisi cyangwa abasirikare, hamwe n'abaturage bose muri rusange kugira ngo bifatanye mu muganda, mu rwego rwo gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano, biba mu makaritsiye yabo.

Igikorwa remezo gifasha abantu gukora siporo mu buryo bubanyuze nk'akazi kabatunga buri munsi, abandi baje kubareba bakora izo siporo ni ukuvuga wenda gukina nk'umupira bakahakura ibyishimo, mu gihe abandi bo baba bahakuye amafaranga yo gutunga ingo zabo.

Ibibuga by'umupira w'amaguru bikoze neza, bifasha abantu gukora imyidagaduro cyangwa se siporo, mu gihe baje gukina umupira, bakabikora nk'akazi kabatunze bakabona amafaranga yo gufasha imiryango yabo.

Itsinda ry'abantu bateraniye mu gikorwaremezo cya sitade aho abantu bose baba baje gushyigikira ibikorwa bya siporo, urugero umupira w'amaguru, voreboro, basiketi kugira ngo abantu bakomeze kugira ibyishimo ndetse n'abandi babone amafaranga ndetse na leta yinjize amafaranga ajya mu isanduku yayo.

Umuntu uri gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, imufasha kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ariko akayikorera ahantu heza hatuje, hari ibiti byiza mu busitani rwose, ashobora kumufasha kuruhura mu mutwe ndetse akumva ufite ubuzima bwiza.

Ibikorwa remezo biberamo umupira w'amaguru ni byiza ko bishyirwamo imbaraga bigakorwa neza kandi n'abayobozi babihagarariye bakabishyiraho umwete ku buryo bakomeza kubishyigikira maze urubyiruko rukabiyoboka kuko izo siporo zituma abantu babaho bibeshaho bagatunga n'imiryango yabo kuko babikora bamwe nk'akazi.

Itsinda ry'abantu biyubashye, ririmo abapolisi ndetse n'abandi bose bashishikajwe no kuza kureba umukino runaka cyangwa se ibindi bikorwa bya siporo, bituma bumva barangaye cyangwa se baje kwishimisha.